Icyumba gikorerwamo inama gisizwe irangi cyicawemo n'imbaga nyamwinshi y'abantu bateranye higanjemo abagore imbere yabo hari umusirikare wambaye impuzankano y'igisirikare cy'u Rwanda, iruhande rwe gato hari umucungagereza w'umugore wambaye impuzankano iririmo ibara rya kaki, imbere yabo hari ameza maremare ariho amacupa y'amazi ndetse na ji.

Icyumba gikorerwamo inama, kirimo urumuri ndetse gisize irangi ry'umuhondo, kirimo intebe ikozwe mu mbaho, imbere yayo hari imeza iriho ibitambaro bitandukanye, kimwe muri byo kiriho icupa ry'amazi, imbere gato hari umugabo w'inzobe, wambaye impuzankano y'igisirikare cy'u Rwanda ndetse afite mikoro irimo amabara atandukanye higanjemo ay'ubururu.

Ahantu hari urumuri hicaye abantu batanu, harimo abagore babiri ndetse n'abagabo batatu. Umugore umwe yambaye imikenyero iri mu ibara ry'umweru ndetse ari kwandika akoresheje ikaramu. Imbere ye hari umugabo wambaye ishati y'ubururu, isaha ku kuboko, wicaye na we ari kwandika. Inyuma yabo hari icyapa gifite ubuso buri mu ibara ry'ubururu.

Icyumba kinini gikorerwamo inama gisize irangi ry'umuhondo ndetse kicawemo n'imbaga nyamwinshi y'abantu higanjemo abagabo, kirimo igitambaro kigizwe n'amabara atatu: ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi, imbere hari abashinzwe umutekano, umwe muri bo ni umusirikare wambaye impuzankano y'Igisirikare cy'u Rwanda ndetse ari kunywa amazi.

Icyumba gikorerwamo inama kirimo urumuri ndetse n'abantu bicaye higanjemo abagabo. Harimo umugore wicaye ufite imisatsi yumukara. Iruhande rwe hari umugabo munini wicaye wambaye ishati ndetse inyuma ye harimu umugabo wambaye ikositimu n'amarinette bicaye.

Icyumba gikorerwamo inama gisizwe irangi ry'umuhondo, kirimo abantu benshi bicaye higanjemo abagabo, umwe muri bo ni umusaza arahagaze, yambaye ishati ndetse n'ikoti afite mikoro ari kuvuga.

Itente rigizwe n'amabara atandukanye, higanjemo iry'umweru, ririmo imbaga nyamwinshi y'abantu bahagaze ndetse n'abicaye, imbere yabo hari umugore ubyibushye ufite ibisuko by'umukara, ndetse ari kuvuga akoresheje mikoro, inyuma ye gato hari umugabo wunamye wambaye ipantaro y'umukara.

Icyumba kinini gikorerwamo inama kirimo urumuri ndetse gisizwe irange ry'umweru kandi kirimo amadirishya manini ariho amarido, cyicawemo n'imbaga nyamwinshi y'abantu higanjemo abagabo, imbere hari umugore wicaye ku ntebe iri mu ibara ry'umukara.

Icyumba gikorerwamo inama kirimo urumuri ndetse gisizwe irangi ry'umuhondo kandi gifite amadirishya manini, kicawemo n'imbaga nyamwinshi y'abantu higanjemo abagabo, inyuma hari umugore w'umwirabura wikoze ku munwa wicaye ku ntebe iri mu ibara ry'umutuku.

Icyumba gikorerwamo inama cyubakishijwe amatafari ye ndetse kirimo amadirishya manini ariho amarido, kirimo imbaga nyamwinshi y'abantu higanjemo abagabo bicaye ku ntebe zirimo ibara ry'umutuku, kirimo umugore wambaye amarinete, wambaye umupira urimo ibara ry'umutuku.

Gikorerwamo inama, kirimo urumuri ndetse cyiciwemo n'imbaga nyamwinshi y'abantu higanjemo abagabo inyuma yabo hari umugabo uri gufotora wambaye umupira uri mu ibara ry'umweru imbere hicira umugore ufite ibishuko by'umukara wambaye marinete ndetse n'umupira uri mu ibara rya orange.

Imbaga y'abantu nyamwinshi higanjemo abasore, abakobwa, abagabo, abagore, ndetse n'abana bicaye mu itente rifite ibara ry'umweru ndetse harimo umugore wambaye ingofero y'umutuku ufite ibisuko by'umukara, ndetse yambaye ishati y'umweru.

Icyumba kinini kirimo urumuri giteraniyemo imbaga nyamwinshi y'abantu higanjemo abagore ndetse n'abagabo, kirimo umusore w'inzobe wambaye ishati y'ubururu iruhande rwe hari umugabo wambaye ishati y'umukara inyuma yabo hari umugore ndetse n'umugabo wambaye ishati irimo ibara ry'ubururu bwijimye.

Abakobwa babiri bari kubyina imbyino gakondo. Bambaye imikenyero iri mu ibara ry'umweru. Umwe muri bo yarambuye amaboko. Imbyino gakondo ni ingenzi kuko zerekana umuco w'Igihugu wa kera.

Inzu yo murukari igaragaza amateka ya cyami, y'Igihugu cy'u Rwanda yubakishijwe ibyatsi ndetse irimo sima, hirya yayo hari agapangu gato kubabakishijwe ibyatsi, inyuma gato hari igiti kinini gifite amashami maremare.

Itente rigizwe n'amabara atandukanye, yiganjemo iry'umweru, ryicayemo abantu batandukanye, bicaye ku ntebe zirimo mu amabara y'umweru, imbere yabo hari abakobwa bakenyeye imikenyero iri mu ibara ry'umukara ndetse n'umweru, bari kubyina imbyino nyarwanda.

Inzu iririmo urumuri iteraniyemo imbaga nyamwinshi y'abantu higanjemo abagabo, harimo umukobwa uhagaze wambaye umukenyero ndetse n'ikarita y'akazi iri mu ibara ry'umukara n'ubururu, iruhande rwe hari umugabo wambaye ishati n'ipantaro y'umukara wicaye.

Icyumba kinini kirimoromori, kirimo umukobwa uhagaze, ufite mikoro yambaye agashani mu ijosi ndetse akenye imikenyero, iruhande rwe hari abadaso, bambaye impuzankano iri mu ibara ry'icyatsi ndetse inyuma ye hicaye umugabo, wambaye ipantaro y'umukara, imbere ye hari icupa ririmo ji

Inzu nini irimo urumuri, iteraniyemo imbaga nyamwinshi y'abantu, imbere yabo hari umukobwa uri kubyina, wambaye urunigi mu ijosi ndetse n'imikenyero iri mu ibara ry'umweru, ari kubyina imbyino gakondo. Ni ngombwa gusigasira umuco kuko bituma abana bato bamenya umuco w'Igihugu cyabo.

Itente riri mo ibara ry'umweru ririmo imbaga nyamwinshi y'abantu, abahagaze ndetse n'abicaye. Abenshi muri bo, bambaye udupira turimo ibara ry'ubururu ndetse bari gufotora umusore uri kubyina imbyino gakondo wambaye ishati y'umweru, ndetse n'ipantaro y'umukara. Ari kubyinira kuri tapi iri mo ibara ry'icyatsi.

Icyapa gishinze mu ibyatsi, gifite ubuso bw'umweru, cyanditsweho amagambo ari mu ibara ry'umutuku ndetse n'umukara agaragaza ikigo gishinzwe amashanyarazi ishami rya Nyagatare, imbere yacyo hari igipangu cyubakishijwe amatafari ahiye kirimo ibiti bifite amashami maremare.

Inzu yubakishijwe amabati isizezwe irangi ry'ubururu ndetse ifite amadirishya imbere yayo hari akazu gato kariho imirasire y'izuba gasizwe irangi ry'umweru, imbere yako hari abantu ndetse n'igikoresho cya kandagira ukarabe kigizwe n'akadobo k'umweru ndetse n'ibase iri mu ibara ry'icyatsi.

Ahantu hari ibikoresho byinshi byifashishwa mu gusigasira amashanyarazi, hari iminara yubakishijwe ibyuma ndetse inyuma yayo hari ishyamba rinini rigizwe n'ibiti bitandukanye, ni ngombwa kwita ku mashanyarazi kuko atuma tugira urumuri mu ngo zacu.

Urutare runini ruteyeho ibiti ruriho amatiyo acamo amazi, imbere yarwo hari ahantu hari gukorerwa ibikorwa by'ubwubatsi ndetse n'abakozi batandukanye bambaye impuzankano ya majire ndetse n'ingofero ziri mu ibara ry'umweru.

Ipoto rinini ryifashishwa mu gukwirakwiza amashanyarazi, iriho abakozi ba Ewasa bambaye impuzankano iri mu ibara ry'ubururu ndetse n'ingofero z'akazi ziri mu ibara ry'ubururu, ni ngombwa gufata neza amashanyarazi kuko atuma tubaho neza, turi mu buzima bufite urumuri.

Amapoto abiri akozwe mu biti ariho insinga ndetse n'imashini yifashishwa mu gukwirakwiza amashanyarazi ndetse hari umutekinisiye uri gukora amashanyarazi wambaye kasike y'umweru ndetse n'impuzankano iri mu ibara ry'ubururu.

Icyapa kigizwe n'ubuso bw'umweru, kiriho ibimenyetso bitandukanye biri mu ibara ry'uburu, ndetse cyanditsweho amagambo arimo ibara ry'umutuku agaragaza ishami rishinzwe kwita ku mashanyarazi rya REG. Iruhande rwacyo hari inzu isizwe irangi ry'umuhondo, imbere gato hari ibikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa mu gukwirakwiza amashanyarazi.

Icyumba cyifashishwa mu gutunganya amashanyarazi kirimo urumuri ndetse gisizwe irangi ry'umweru, kirimo kandi ibikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa mu gusigasira amashanyarazi kirimo umukozi wambaye ingofero y'umuhondo, agapfukamunwa ndetse n'impuzankano iri mu ibara ry'ubururu.

Ikiraro cyubakishijwe ibyuma, kiriho abantu batandukanye, higanjemo abakozi, bambaye ingofero ziri mu ibara ry'umuhondo. kiriho umuhungu mukuru, wambaye ikabutura y'umukara, amasogisi, ndetse n'isengeri y'umukara irimo utubara tw'umuhondo.

Inyubako za Leta zubakishijwe amatafari ahiye ndetse zifite amabati ari mu ibara ry'umutuku, imbere yazo hari akayira k'abanyamaguru kubakishijwe amapave, karimo umugabo wambaye umupira w'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara.

Ibyumba by'amashuri bikiri kubakwa bigizwe n'amabati ari mu ibara ry'ubururu ndetse byubakishijwe amatafari ahiye. Iruhande rwabyo hari ibikoresho bikozwe mu byuma ndetse n'ibikozwe mu biti byifashishwa mu kubaka.

Ikiraro kigizwe n'ibiti kiriho umugore wikorewe ubwatsi wambaye umupira w'umutuku ufite agasuka gatera mu ntoki, afashe mu kiganza umwana mutoya imbere yaho hari umwana muto uhagaze ndetse n'umuhanda w'igitaka ukikijwe n'insina ndetse n'ibiti bitandukanye.

Umuhanda munini w'umukara iruhande rwawo hari akayira k'abanyamaguru kubakishijwe amapaje, urundi ruhande hari amapoto yifashishwa mu gukwirakwiza amashanyarazi, imbere gato hari amazu meza ageretse.

Ikibuga kinini kirimo ibyatsi ndetse n'indabo zirimo ibara ry'umuhondo, hirya yaho hari ibiti byinshi imbere gato hari inyubako igeretse ifite amadirishya menshi ndetse isizwe irangi ry'umweru. Imbere yaho hari ibiti birebire bifite amashami maremare.

Icyapa kinini gishaje gifite ubuso bw'umweru, kiriho idarapo y'u Rwanda ndetse n'ikirangantego cya Repubulika y'u Rwanda, cyanditsweho amagambo ari mu ibara ry'umukara agaragaza: Akarere ka Nyagatare, Umurenge wa Gatunda, Akagari ka Nyamirembe.

Umusozi munini uriho ibihingwa bitandukanye higanjemo ibiti, imbere yawo hari umunara ukozwe mu byuma ndetse n'inyubako nziza zigeretse inyinshi muri zo zubakishijwe amatafari ahiye ndetse zisakajwe amabati ari mu ibara ry'ubururu.

Umuhanda munini w'igitaka, iruhande rwawo hari itara ryo ku muhanda, imbere yaryo hari inyubako nziza yubakishijwe amatafari ahiye ifite amabati ari mu ibara ry'ubururu, imbere gato hari umusozi uriho ibiti bike.

Ikigo nderabuzima, cyubakishijwe n'amabati ari mu ibara ry'ubururu, gisize irangi riri mu ibara ry'ubururu, inyuma yacyo hari ikigega kiri mu ibara ry'umukara, kicayeho abantu batandukanye, bategereje serivisi z'ubuvuzi, higanjemo abagore. Iruhande rwacyo hari umugabo ndetse imbere ye hari itente ririmo ibara ry'umweru.

Inzu yubakishijwe amatafari ahiye iriho icyapa cya RDB kigizwe n'ubuso bw'ubururu, kiriho ikirangantego cya Repubulika y'u Rwanda, cyanditsweho amagambo ari mu ibara ry'umweru, imbere yayo hari abantu babiri umugore ufite ibisuko ndetse wambaye amarinete, inyuma ye hari umugabo w'umwirabura wambaye ishati.

Ibiro by'Akagari byubakishijwe amatafari ahiye bisizwe irangi ry'umuhondo, imbere yabyo hari idarapo ry'Igihugu cy'u Rwanda, ndetse n'abagabo batanu bamanitse amaboko, iruhande rwabo hari ikinyabiziga kirimo ibara ry'umukara.

Ikiraro kinini cyubakishijwe ibyuma, kiriho imbaga nyamwinshi y'abantu higanjemo abagabo, hariho umugore wikoze mu mutwe, wambaye umupira ugizwe n'amabara abiri, umukara ndetse n'umweru, iruhande rwe hari umugabo ukuze wambaye bote ziri mu ibara ry'umweru.

Umuhanda munini w'umukara, ku ruhande rwawo hari umuyoboro ucamo amazi wubakishijwe amabuye, imbere gato hari igipangu cyubakishijwe amatafari ahiye, gifite urugi rwubatswe mu byuma ndetse kiriho icyapa gifite ubuso buri mu ibara ry'ubururu cyanditsweho amagambo ari mu ibara ry'umweru.

Ikiraro kinini kiriho ikinyabiziga kinini cyane kifashishwa mu gutwara imizigo imbere yacyo hari abantu ndetse n'ibinyabiziga bitandukanye higanjemo ibiri mu ibara ry'umweru, ku ruhande hari ibiti byinshi bifite amashami ndetse n'ibibabi byinshi.

Umuhanda w'igitaka imbere yawo hari ikiraro kiriho ibyuma bigizwe n'amabara y'umutuku n'umweru, kiriho kandi imbaga nyamwinshi y'abantu higanjemo abagore ndetse n'abagabo, kiriho umugabo wambaye ishati y'umweru ndetse n'ipantaro, imbere yabo hari isantere yubatswemo amazu meza.

Ikiraro kinini cyo hejuru cyubakishijwe ibyuma ndetse na senyenge kiriho imbaga nyamwinshi y'abantu higanjemo abagore. Hari umugabo wambaye ipantaro y'ikoboyi, umupira wa oranje ndetse inyuma ye hari umugabo wambaye ipantaro iri mu ibara ry'umweru.

Ikiraro cyubakishijwe amabuye kiriho abantu batandukanye, munsi yacyo hari umugezi utemba ugizwe n'amazi mabi, iruhande rwaho hari umurima urimo ibyatsi byinshi imbere cyane, hari umusozi uriho ibiti bitandukanye, ndetse n'amazu y'abaturage atandukanye.

Icyapa gishinzemo ibyatsi kigizwe n'ubuso buri mu ibara ry'umweru kiriho ikirangantego cya repubulika y'u Rwanda, cyanyanditsweho amagambo arimo ibara ry'umukara ndetse n'ubururo imbere yacyo hari igipangu gifunguye kirimo inzu yubakishijwe amabati y'ubururu, ifite ibigega by'amazi bibiri biri mu ibara ry'umukara ndetse isizwe irangi ry'umweru

Ikiraro kinini gikozwemo mbaho, ibyuma ndetse na senyenge. Kiriho umugore uri kugenda ukenyeye igitenge, wambaye umupira urimo ibara ry'umukara ndetse inyuma ye hari abagabo, umwe muri bo yambaye ipantaro y'ikoboyi, ishati y'umweru ndetse yambaye ingofero.

Umuhanda w'igitaka urimo ikiraro kivukishijwe ibiti, munsi yacyo hari amazi mabi atemba, hejuru yacyo hari umukobwa wambaye ipantaro y'umukara, hirya gato hari umurima munini urimo ibihingwa bitandukanye higanjemo ubwatsi bw'inka ndetse urimo ibitifite amashami maremare.

Inzu nziza igeretse, isizwe irangi, imbere yayo, hari ikibuga kirimo abana batandukanye ndetse n'imodoka, muri bo, hari umupolisi wambaye impuzankano y'igipolisi cy'u Rwanda, igizwe n'ibara ry'umukara.

Inzu nziza igeretse iriho urumuri imbere yayo hari amadarapo abiri, harimo idarapo ry'u Rwanda rigizwe n'amabara atatu, ubururu, umuhondo n'icyatsi, imbere yaryo hari itsinda ry'abantu bahagaze higanjemo abagore harimo umumama ufite mikoro wambaye ikanzu iri mu ibara ry'umweru.

Itsinda ry'abantu batandukanye higanjemo abagabo, harimo umugabo wambaye amarinete ikoti ry'umukara inyuma ye hari umupolisi ndetse n'umusirikare wambaye impuzankano y'igisirikare cy'u Rwanda, imbere yabo hari inka ifite amabara atandukanye higanjemo iry'umukara.

Icyumba kinini gikorerwamo inama, kirimo abantu batandukanye, hari umudaso wicaye uri kwandika, imbere ye hari abantu bane harimo: umugore umwe n'abagabo batatu, imbere yabo hari imeza ndende iteretseho amacupa y'amazi, inyuma yabo hari ibyapa bibiri biriho ikirangantego cya Repubulika y'u Rwanda.

Umugabo w'umwirabura uhagaze wambaye ishati ufite telefone mu ntoki ndetse yambaye impeta ku rutoki, inyuma ye hari abagabo bicaye harimo umugabo wambaye ishati irimo uturongo y'umweru ndetse ari gukoresha telefone.

Akayira gato karimo abantu benshi bari kugenda, imbere hari umugabo wambaye ingofero, amarinete, umupira w'umweru ndetse n'ipantaro. Inyuma ye hari umupolisi uri kwiruka wambaye impuzankano y'Igipolisi cy'u Rwanda iri mu ibara ry'umukara, hirya cyane hari amamodoka aparitse higanjemo abashinzwe umutekano.

Icyumba gikorerwamo, inama kirimo urumuri ndetse gisizwe irangi ry'umweru, cyicayemo imbaga nyamwinshi y'abantu, higanjemo abashinzwe umutekano. Imbere hari abasirikare bambaye impuzankano y'igisirikare cy'u Rwanda, ndetse n'abacungagereza bambaye impuzankano y'igicungagereza cy'u Rwanda.

Inzu nini igeretse, isizwe irangi ry'umweru ndetse ifite amabati ari mu ibara ry'umukara, ku ruhande rwayo hari imbaga nyamwinshi y'abantu bari kugenda, bamwe muri bo bafite indabo. Imbere hari abasore bambaye amakoti ari mu ibara ry'umukara, bateruriye amasanduku akozwe mu mbaho.

Icyapa cyanditsweho amagambo ari mu ibara ry'icyatsi, agaragaza amateka yo kwibohora muri Gikoba mu mpande zacyo hari abagabo batanu, umwe muri bo yambaye ingofero, amarinete, umupira w'umweru ndetse n'ipantaro, iruhande rwe hari uwambaye ishati iri mu ibara ry'ubururu ndetse n'ipantaro y'umukara.

Itente ririmo urumuri ryicayemo abantu batandukanye, imbere yaryo hari imbuga nini irimo abantu bahagaze bafite buji harimo umusirikare wambaye impuzankano y'igisirikare cy'u Rwanda ndetse n'umupolisi wambaye amarinete n'iniforume iri mu ibara ry'umukara.

Ikibuga kigizwe n'ibyatsi gicamo imbaga nyamwinshi y'abantu higanjemo abagabo ndetse n'abagore, imbere yabo hicaye abantu batandukanye, bicaye ku ntebe zikozwe mu mbaho harimo umupolisi, umusirikare ndetse n'umudaso.

Itente rinini cyane ryicawemo n'imbaga nyamwinshi y'abantu higanjemo abanyeshuri ba segonderi, harimo abambaye impuzankano igizwe n'imipira y'umweru, ndetse n'abambaye iniforome igizwe n'imipira y'ubururu ndetse inyuma yabo hari abambaye imipira iririmo ibara ry'umuhondo.

Umugore w'umwirabura ufite ibiseko by'umukara wambaye amaherena ku matwi ndetse ukenyeye umukenyero iruhande rwe hari abagabo bane, batatu b'abirabura ndetse n'umuzungu umwe. Inyuma ye hari inzu iriho abantu batandukanye yubakishijwe amatafari ahiye.

Umuhanda munini w'umukara urimo ikinyamitende kigizwe n'amapine atatu gitwawe n'umugabo wambaye ipantaro y'ikoboyi, umupira w'umukara ndetse yambaye kasike. Iruhande gato hari akayira k'abanyamaguru kubakishijwe amapave, imbere hari inzu zikorerwamo ubucuruzi ziganjemo izisizwe irangi ry'umweru.

Umuhanda wumukara urimo imirongo y'umweru itandukanye, iruhande rwawo hari boloke sima ziri hejuru y'umuyoboro w'amazi, urundi ruhande ruriho akayira k'abanyamaguru kubakishijwe amapave, ndetse hari amatara yo ku muhanda.

Umuhanda munini w'umukara ugizwe n'imirongo myinshi iri mu ibara ry'umuhondo, urimo umuntu uri gusunika igare ritwaye intebe wambaye ipantaro y'umukara ndetse n'umupira, iruhande rwe hari agahanda k'abanyamaguru kubabakishijwe buroke sima kariho umuntu uri kugenda wambaye ikoboyi, iruhande rwe hari ikibuga kinini kirimo ibyatsi byinshi.

Umuhanda munini w'umukara urimo ikinyabiziga cya Toyota gisizwe irange ry'umweru, iruhande gato hari akayira k'abanyamaguru kubakishijwe amapave hari kugendamo abakobwa babiri umwe muri bo afite ibisuko by'umukara ndetse yambaye ipantaro.

Icyapa gishinze mu byatsi, iruhande rwacyo hari umuhanda w'umukara ukikijwe n'ibiti byinshi bifite amashami maremare, ndetse hari inzu yubakishijwe amabati. Ni byiza gukoresha umuhanda neza kuko ni igikorwa remezo.

Umuhanda w'umukara urimo imodoka ya toyota y'akarere ka Nyagatare iri mu ibara ry'umweru. Imbere yayo hari umutaka wa MTN munini uri mu Ibara ry'umuhondo, ndetse n'umu ajenti wa MTN wicaye, inyuma ye hari amazu menshi akorerwamo ubucuruzi.

Umuhanda munini w'umukara hirya yawo hari umuyoboro w'amazi ndetse n'icyapa gishinze mu butaka kiri mu ibara ry'umweru, imbere gato hari igipangu kirimo inzu isakajwe amabati y'umutuku, iruhande rwayo hari igiti kinini gifite amashami maremare.

Ikibuga kirimo ibyatsi gishinzemo icyapa cya mpande eshanu, gifite ubuso bw'ubururu cyanditsweho amagambo ari mu ibara ry'umweru, inyuma yacyo hari ibiti binini. Ni byiza gufata ibiti neza kuko bikurura umwuka duhumeka.

Icyapa cya mpande enye, gifite ubuso bw'umweru, gishinze ku gatiyo k'icyuma, imbere yacyo hari inzu isakajwe amabati y'umutuku, iruhande gato hari umuhanda w'umukara ukikijwe n'agahanda k'abanyamaguru kubabakishijwe amapave . Imbere gato hari amatara yo k'umuhanda yifashishwa mu kumurikira abantu n'ibinyabiziga.

Icyapa kinini kigizwe n'ubuso bw'umweru, kiriho iderapo ry'Igihugu cy'u Rwanda riri mu mabara atatu, ubururu, umuntu ndetse n'icyatsi, hirya gato kiriho ikirangantego cya Repubulika y'u Rwanda ndetse cyanditsweho amagambo ari mu ibara ry'umukara.

Umuhanda munini w'umukara iruhande rwawo hari icyapa cya mpandeshatu kigizwe n'amabara y'umutuku n'umweru, hasi yacyo hari akapa gato ka mpande enye kagizwe n'ubuso bw'umutuku, gafite ishusho y'umuntu iri mu ibara ry'umweru.

Icyapa kigizwe n'ubuso bw'umweru, kiriho ikirangantego cya Repubulika y'u Rwanda ndetse n'idarabu, cyanditswehomo amagambo ari mu ibara ry'ubururu agaragaza indangagaciro na kirazira z'abanyarwanda, ni byiza kugira indangagaciro kuko zituma umuntu agira imico myiza.

Umuhanda munini w'umukara, ku ruhande rwawo hari umurongo muremure uri mu ibara ry'umweru, iruhande rwawo kandi hari icyapa gishyizwe mu byatsi kigizwe n'amabara abiri umweru ndetse n'umutuku, iruhande rwacyo hari ibiti byinshi.

Umugabo uhagaze wambaye ikoti ndetse afite indangururamajwi mu kiganza, inyuma ye yicaye imbaga nyamwinshi y'abantu higanjemo abagabo n'abagore ndetse hari umugabo wambaye ingofero y'ubururu umupira w'umutuku inyuma ye hari insina.

Inzu iteye ibyondo iruhande rwayo hari inzu yubakishijwe ibiti, ndetse isakaye imbere yayo hari imbaga nyamwinshi y'abantu higanjemo abari gukora akazi ko kubaka, harimo umugabo wambaye umupira w'umukara ndetse n'ipantaro y'umukara.

Imbaga y'abantu nyamwinshi, higanjemo abagabo, ndetse n'abagore, bamwe muri bo baricaye, abandi barahagaze. Harimo umugabo wambaye agapira k'umukara, kariho ishusho ya perezida wa repubulika y'u Rwanda Paul Kagame.

Umupolisi wambaye impuzankano y'igipolisi cy'u rwanda igizwe n'ibara ry'umukara, arahagaze yambaye ingofero ndetse afite mikoro. Inyuma ye hari itente igizwe n'amabara atandukanye yiganjemo iy'umweru ndetse hari icyapa kinini kigizwe n'ubuso bw'ubururu bwijimye.

Ikibuga kinini kigizwe n'ibyatsi kirimo inka iri mu ibara ry'umutuku, inyuma yayo hari itsinda ry'abantu higanjemo abagabo, hari umugore ufite imisatsi y'umukara ndetse wambaye ipantaro y'ikoboyi, inyuma yabo hari umusozi munini uriho ibiti bitandukanye.

Itente igizwe n'amabara atandukanye, higanjemo iry'umweru, imbere yaryo hari umugabo wambaye impuzankano y'igipolisi cy'u Rwanda, iri mu ibara ry'umukara, afite mikoro ndetse yambaye ingofero, iruhande rwe hari icyapa kinini, kigizwe n'ubuso bw'ubururu.

Itente igizwe n'amabara atandukanye harimo: ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi, ryicayemo imbaga nyamwinshi y'abantu, imbere yabo hari abapolisi babiri ndetse n'umusirikari uhagaze uri gusuhuza abantu.

Umuhanda w'igitaka urimo abantu batandukanye ndetse ukikijwe n'indabo, urimo umwana wambaye agapira k'umweru ndetse ufite agatebe ka kinyarwanda, imbere ye hari umudaso wambaye impuzankano iri mu ibara ry'icyatsi, iruhande rwe hari kandagira ukarabe ndetse n'umupolisi wambaye impuzankano iri mu ibara ry'umukara.

Inzu iteye ibyondo, isakajwe amabati y'umweru, iruhande rwayo hari inzu y'ibiti isakajwe amabati y'umutuku, imbere yayo hahagaze imbaga y'abantu nyamwinshi, higanjemo abashinzwe umutekano, hari umupolisi wambaye impuzankano y'igipolisi cy'u Rwanda.

Umurima urimo abasore batatu bari guhinga, umwe yambaye umupira w'umukara ndetse afite isuka. Iruhande rwe hari uwambaye impuzankano y'igisirikare cy'u Rwanda uri guhinga, iruhande rwe na none hari umusore wambaye ipantaro yikoboyi ndetse n'agapira ufite isuka mu biganza.

Ahantu hari abakinnyi bambaye amajezi atandukanye, hari umugabo wambaye jezi y'umuhondo yanditsweho gatanu mu ibara ry'umukara, iruhande rwe hari umugore ufite ibisuko by'umukara wambaye jezi iri mu ibara ry'umutuku.

Ikibuga gikinirwamo umupira w'amaguru kigizwe n'ibyatsi byiza kirimo abakinnyi batatu babiri muri bo bambaye jezi zigizwe n'ibara ry'ubururu, umwe yambaye ikabutura ya oranje umupira w'umweru yasimbutse akina umupira w'amaguru akoresheje umutwe.

Ikibuga kinini gikorerwamo imyitozo ngororamubiri, kirimo abakinnyi batandukanye higanjemo abambaye impuzankano iri mu ibara ry'ubururu, inyuma yabo hari igare riparitse ririho ibijerekani byinshi, biri mu ibara ry'umuhondo.

Ikibuga gikinirwamo umupira w'amaguru kigizwe n'ibyatsi byinshi, kirimo abakinnyi babiri, umwe yambaye amasogisi y'umutuku n'i ikabutura irimo ibara ry'ubururu, inyuma ye hari umukinnyi wambaye amajeze agizwe n'ibara ry'ubururu ndetse wambaye godiyo.

Ikibuga cyifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri, kirimo abakinnyi batandukanye biganjemo abambaye impuzankano iri mu ibara ry'ubururu, inyuma yabo hari ikibuga kinini kirimo ibyatsi kicayemo abana batandukanye higanjemo abagabo, hari umusore wicaye wambaye umupira uri mu ibara ry'umuhondo.

Ikibuga gikorerwamo imyitozo ngororamubiri kigizwe n'ibyatsi bitoshye, kirimo abakinnyi batandukanye, umwe muri bo yambaye godiyo z'umutuku, amasogisi, ikabutura y'umukara ndetse n'umupira w'umuhondo, iruhande rwe hari umukinnyi uri kwiruka wambaye umupira w'umweru.

Umupira wa baro ugizwe n'amabara atandukanye, higanjemo ay'umweru n'umukara, uri mu kibuga cya tapi. Gukora siporo ni ingenzi kuko bituma tugira ubuzima bwiza, ndetse gukina umupira ni ingirakamaro kuko bituviramo kubona amafaranga.

Ikibuga kirimo ubwatsi bwinshi kirimo abasore bambaye amajezi ari mu ibara ry'ubururu ndetse na godiyo, iruhande rwabo hari umusore wambaye ipantaro y'umukara ndetse n'umupira w'ubururu, hirya gato hari igipangu cyubakishijwe amatafari ahiye.

Icyapa kigaragaza uwatsinze amarushanwa y'Umurenge Kagame kapu. Yabereye i Nyagatare, gishushanyijeho ikirangantego cya Repubulika y'u Rwanda. Gifashwe n'abantu batatu: umugore wambaye umupira w'umutuku, umwana ufite baro ndetse n'umugabo wambaye ingofero y'umukara n'ishati, bakoze ku gikombe. Inyuma yabo hari umupolisi wambaye impuzankano, iri mu ibara ry'umukara.

Ahari imbaga nyamwinshi y'abantu higanjemo abana b'abanyeshuri bambaye impuzankano igizwe n'amashati ndetse n'ijipo cyangwa ikabutura iri mu ibara ry'icyatsi, imbere yabo hari igiti kinini ndetse hirya gato hari ipoto ryifashishwa mu gukwirakwiza amashanyarazi mu baturage.

Ikibuga kinini kirimo abana babiri bari gukora imyitozo ngororamubiri, umwe muri bo yambaye ikanzu ifite ibara ry'umutuku, ikabutura y'umukara ndetse n'inkweto za siporo. Gukora siporo ni ingenzi mu buzima kuko bituma tugira ubuzima bwiza.

Ikibuga gikorerwamo imyitozo ngororamubiri kirimo ibyatsi bikase neza, ndetse kirimo abakinnyi batatu, umwe muri bo yambaye godiyo z'umuhondo, ikabutura y'umukara ndetse n'umupira w'umweru, inyuma ye hari uwambaye amasogisi y'umuhondo ikabutura y'ubururu ndetse n'umupira w'umukara, inyuma yaho gato hari umukinnyi wambaye umupira w'umukara.

Umusifuzi wambaye ikabutura y'umukara, umupira w'umuhondo. Yamanitse icyuma cy'ikoranabuhanga, cyifashishwa mu kwerekana iminota y'inyongera. Inyuma ye, hari ikibuga gikase neza, ndetse n'umuzamu wambaye imyenda y'umutuku, uhagaze mu kibuga.

Imbuga nini iteteyeyemo imbaga nyamwinshi y'abantu, bari gukora imyitozo ngororamubiri, inyuma yaho hari, itara rinini rimurika muri bo harimo umusore wambaye isengero y'umutuku ndetse n'ipantaro y'umukara.

Ikibuga gikorerwamo imyitozo ngororamubiri, kigizwe n'ibyatsi bikase neza, kirimo umupira wo gukina, imbere yawo hari umukinnyi wambaye godiyo ziri mu ibara ry'ubururu, ndetse n'amasogisi, ikabutura n'umupira by'umuhondo.

Ikibuga gikinirwamo umupira w'amaguru kirimo umurongo uri mui ibara ry'umweru ndetse n'izamu rigizwe n'ibyuma bisizwe irangi ry'umweru ndetse n'inshundura. Imbere yaryo hari umugabo wambaye umupira wa orange, ikabutura y'umukara ndetse ku ruhande rwe hari umukinnyi wambaye amajezi agizwe n'ibara ry'ubururu bwijimye.

Ikibuga gikorerwamo imyitozo ngororamubiri kigizwe n'ibyatsi bitoshye birimo ibara ry'icyatsi, kirimo ikipe y'umupira igizwe n'abasore benshi bambaye amajezi ari mu ibara ry'umweru ndetse n'irya oranje. Umwe muri bo yambaye umupira w'umukara, ikabutura y'umukara ndetse na godiyo ziri mu ibara rya oranje.

Agahanda kagizwe n'ubutaka, karimo utubuye twinshi duto ndetse n'igicucu cy'umuntu, iruhande rwako hari ibyatsi ndetse n'igipangu gishaje gikozwe mu byuma.

Umuhanda munini w'umukara urimo uturongo tugiye ducagaguye, iruhande rwawo hari akayira k'abanyamaguru kubakishijwe amapave, karimo umusore uri kugenda wambaye ipantaro y'umukara ndetse n'agapira.

Umuhanda munini w'umukara urimo uturongo tw'umweru ducagaguye hagati ndetse no ku ruhande, ukikijwe n'akayira k'abanyamaguru kubakishijwe amapave. Iruhande rwako hari indabo zikase neza, imbere gato hari amapoto yifashishwa mu gukwirakwiza amashanyarazi.

Umuhanda munini w'umukara, urimo umugabo wambaye isengeri y'umuhondo, ndetse n'ipantaro na bote atwaye igare. Inyuma ye hari umutaka wa MTN, uri mu ibara ry'umuhondo, wicayemo umuntu. Imbere ye hari ikinyabiziga kiri mu ibara ry'umukara, ndetse n'inzu zikorerwamo ubucuruzi, zisizwe irangi ry'umweru.

Umuhanda munini wumukara, urimo uturongo twinshi tw'umweru, harimo umugabo uri gusunika igare ripakiye ibitoki, wambaye ipantaro y'umukara. Iruhande rwe hari abanyeshuri bambaye impuzankano igizwe n'amajipo y'umukara ndetse n'amashati y'umweru. Iruhande rwe nanone hari inzu nyinshi zikorerwamo ubucuruzi.

Umuhanda munini w'umukara, urimo ikinyabiziga kigirwamo gutwara imodoka, kiri mu ibara ry'ubururu, iruhande rwawo hari akayira k'abanyamaguru ndetse n'inzu sizwe irangi ry'umweru, ikorerwamo ubucuruzi.

umuhanda w'igitaka urimo umusore wambaye bodaboda z'umuhondo, ufite indobo irimo amandazi yambaye ipantaro y'ikoboyi ndetse n'umupira, iruhande rwe hari inyubako zitandukanye higanjemo izisizwe irangi ry'umukara.

Umuhanda munini w'umukara urimo imirongo icagaguye iri mu ibara ry'umuhondo ndetse n'ikinyabiziga cya moto gitwawe n'umugabo wambaye kasike, inyuma gato hari icyapa gishinze ku cyuma cya mpande eshatu kigizwe n'ubuso bw'umweru, gifite ikirango kiri mu ibara ry'umukara.

Umuhanda munini w'umukara urimo umurongo muremure uri mu ibara ry'umuhondo ndetse n'ikinyabiziga kiri mu ibara ry'umutuku, imbere cyane hari amatara yo ko muhanda yifashishwa mu kumurikira abagenzi ndetse n'ibinyabiziga bitandukanye, imbere yayo hari amazu asakajwe amabati ari mu ibara ry'umutuku.

Akayira k'abanyamaguru kubabakishijwe amapave, karimo umu mama ukenkeye igitambaro, wambaye umupira, ndetse n'inkweto z'umutuku, iruhande rwe hari umurima urimo ibyatsi. Imbere gato hari amatara yo ku muhanda, yifashishwa mu kumurikira ibinyabiziga, ndetse n'abagenzi batandukanye.

Umuhanda w'umukara urimo umurongo uri mu ibara ry'umuhondo, iruhande rwawo hari akayira k'abanyamaguru kubabakishijwe amapave ndetse iruhande gato hari igipangu cyubakishijwe amatafari ahiye.

Umuhanda munini w'umukara, ku ruhande rwawo, hari umurongo muremure uri mu ibara ry'umweru ndetse hari umugabo utwaye igare ritwaye ibitoki, imbere ye hari umugabo wambaye ipantaro irimo ibara ry'ubururu ndetse n'agapira k'icyatsi, ari gusunika ibirayi biri mu mifuka iri mu ibara ry'umweru biri ku igare.